Ubuhinzi bw'ibirayi ni bumwe mu buhinzi bugezweho cyane cyane mu duce tumwe na tumwe tw'igihugu, ubuhinzi busaba guterwa imiti kugira ngo yice udukoko dushobora kwangiza ibirayi cyangwa se tugatuma umusaruro wabyo ugabanyuka.

Inzu irimo imiti ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu buhinzi, imiti yifashishwa mu buhinzi ifasha kongera umusaruro w'ibihingwa ndetse ikarinda indwara nyinshi zitandukanye, iyi miti haba harimo n'iy'inyamaswa irinda ikanavura inyamaswa, cyane cyane harimo amatungo yo mu rugo.

Imiti iri mu tubati, imwe iri mu dukarito iyindi iri mu ducupa ifunze neza, iyi miti yifashishwa mu kurinda ibyonyi bishobora kwangiza imyaka mu gihe iri mu murima cyangwa se mu gihe yasaruwe ihunitswe, hakaba hari n'imiti yongera umusaruro w'imyaka.

Igihingwa cy'ibigori ni kimwe mu bihingwa iyo byitaweho neza bikabona imvura ihagije bishobora kwera neza bigatanga umusaruro uhagije, gusa na none iyo bititaweho neza ngo bibone n'imvura ihagije birangirika bikaba byarumba bityo nyiri kubihinga agahomba.

Ikawa ni igihingwa umuntu ahinga agasarura kikiri kibisi, ubundi akayanika ikuma akaba yayijyana ku isoko bakayitunganya ikavanwamo ifu itekwa ikanyobwa, iyo imaze gutunganyirizwa mu ruganda.

Gufuherera imyaka ni kimwe mu bikorwa bikorwa kugira ngo birinde indwara zifata imyaka. izo ndwara zishobora gutuma umusaruro w'imyaka ugabanyuka cyangwa se ntinere. Rero ni byiza kugira ngo imyaka irindwi izo ndwara.

Icyapa kigaragaza imiti y'ibihingwa yifashishwa mu buhinzi. Harimo kurwanya ikirare. Harimo kongera umusaruro ndetse n'ibindi.

Abantu barimo gutunganya ubutaka bwo guhingaho. Bakaba barimo baraseka bafite itaka mu ntoki ndetse n'utudeyi tubateretse imbere.

Gutera imiti yica udukoko mu myaka, ni kimwe mu bintu by'ingenzi, kuko bituma ibyonnyi bitangiza imyaka. Ibyo bigatuma igira umusaruro mwinshi kandi uhagije Kandi ufite ubuziranenge. Bigatuma ibona isoko kandi abahinzi bakunguka bihagije.

Abantu babiri bicaye mu iduka ry'imiti, imiti y'inyamaswa iri mu dukarito, harimo n'amapombo akoreshwa mu gutera inka cyangwa se andi matungo umuti wica udukoko.

Ibikoresho bikoreshwa mu kuhira imyaka ni kimwe mu bintu by'ingenzi cyane kubera ko imyaka itabonye amazi ahagije irapfa, rero biba bisaba kugira ngo ashyirweho amazi mu gihe imvura yabonetse idahagije cyangwa se mu gihe imyaka yahinzwe mu gihe cy'Urugaryi.

Intebe irimo ubusa idafite umuntu uyicayeho ndetse n'akabati karimo uducupa twinshi n'ibikarito bigaragara ko ari ibikarito by'imiti igiye itandukanye.

Ubutaka bwiza bufasha kongera umusaruro w'ubuhinzi, rero biba bisaba kugira ngo ubanze utunganye ubutaka ubugire neza ukuremo ikirare, ushyiremo ifumbire kugira ngo imyaka uzahingamo izere kandi yere neza.

Inyongeramusaruro ni kimwe mu bintu leta yashyizemo imbaraga kugira ngo ifashe abahinzi kongera umusaruro, ibyo bifasha kugira ngo abahinzi bihaze mu biribwa ndetse basagurire n'amasoko.

Inzu irimo utubati twinshi turimo amacupa y'imiti ndetse hari n'imeza iriho ibipapuro ndetse n'ikindi cyapa cy'umuhondo.

Uruhurirane rw'abantu benshi, biganjemo abagore bateze ibitambaro mu mutwe. Bari mu murima w'ibigori, barimo gushyiraho ifumbire ku bigori. Ibi bigori hakaba hivanzemo n'ibirayi bike bike, ndetse n'ibindi biti biri ku ruhande, rw'uyu murima.

Imiti ibitse neza ishobora gukoreshwa mu kuvura amatungo bikaba byafasha kurinda indwara ndetse no kwita ku matungo mu gihe cyose bigaragara ko afite ibibazo. Ibi ngibi bikaba byafasha kongera umukamo ndetse n'umusaruro rusange w'amatungo abantu borora.

Ubutaka bw'umutuku burimo utubuye duto dutoya, hakaba harunzemo ifumbire y'imborera, ubutaka bukaba ari bwiza.

Ifumbire ni kimwe mu bintu bifasha ubuhinzi gutera imbere mu buryo bworoshye kubera ko bituma umusaruro w'ubuhinzi wiyongera, ibyo ngibyo bigatuma ababukora babona amafaranga ahagije bakura mu musaruro wabo, bigatuma na bo batera imbere.

Ibikoresho byo gufuherera imyaka ndetse n'indi miti yifashishwa mu buhinzi, harimo iterwa imyaka ndetse n'itirwa inyamaswa, byose bikaba biri hamwe mu cyumba kimwe kigurishirizwamo ibikoresho by'ubuhinzi n'ubworozi.

Abantu benshi batandukanye bari mu murima barimo kugenda bashyiramo ifumbire, ifumbire y'imborera ifasha imyaka gukura neza, igatanga umusaruro mwinshi kandi uboneye, ibyo ngibyo bituma abahinzi biteza imbere ndetse n'amasoko akabona ibyo agura byinshi.

Ikawa ni kimwe mu bihingwa bihingirwa kugira ngo abantu babone amafaranga, bikaba bitunganywa bigakurwamo ibyo kunywa, aho bikoreshwa cyane cyane mu kujyanwa hanze igihugu kikinjiza amadovize.

Ubuhinzi buciriritse ni ikintu gitunze abantu benshi kubera ko budasaba ubuso bunini bw'ubutaka cyangwa se ngo bisabe gukoresha imashini zigezweho zihenze. Umuntu ukoresha isuka ndetse afite n'umurimo mutoya, akaba ashobora kubukora bukamutunga.

Ubuhinzi bw'inyanya ni kimwe mu bintu bigezweho kuko bugira amafaranga menshi cyane, gusa na bwo busaba igishoro kinini kuko imiti yo gutera inyanya ndetse n'imbuto zayo birahenda kandi zikaba zisaba kuba zigomba gusukirwa.

Itsinda ry'abantu barimo barinaza mu duhoho, turimo itaka. Ibi ngibi bifasha kugira ngo imbuto zibanze zimere, zikure zizashyirwe mu butaka burambuye igihe zizaba zimaze kugira imbaraga, zikomeye kandi ziteguye guhita zikura.

Gutera ibiti biribwa ni kimwe mu bintu bifasha abahinzi kurwanya imirire mibi mu ngo ndetse bikanarwanya isuri. Ibiti bitangwa cyane cyane na Leta, aho bikorwa muri pepinyeri ndetse bigafasha mu kubona imbuto cyane cyane ku miryango ikennye.

Ubuhinzi ni ikintu cy'ingenzi cyane, aho guhinga bishobora kuba ibihingwa ngandurarugo cyangwa se ibihingwa ndandurabukungu, ibihingwa ngandurarugo harimo nk'imyumbati, ibigori ndetse n'ibindi bihingwa kugira ngo abantu babirye mu mago yabo bibafashe kubaho.

Ubuhinzi bw'ibitunguru ni bumwe mu buhinzi bugezweho, bwifashisha ikoranabuhanga ritari hejuru kandi bukabyara umusaruro utubutse, kandi bikaba bifite isoko rihagije kuko uwabuhinze ntabwo yabura aho agurisha kandi ku giciro cyiza gishoboka ku bahinzi bose.

Igihingwa cy'urutoki gifite amakoma maremare cyane, gifite n'ibitoki ku nsina zimwe na zimwe, zikaba zisa neza gusa zidashariye neza.

Ubuhinzi bw'ibirayi ni kimwe mu bintu bisaba kwitonderwa kuko iyo uhombye biragoye kugira ngo wongere utangire, rero bisaba gushora ndetse ugahinga imbuto nziza ndetse ugahingira igihe.

Imibyare ikuye, iri hasi benda gutera, bayiciye imitwe bayikuraho n'amababi yose mu gihe bari barimo kuyitunganyiriza kugira ngo iterwe mu butaka, nayo izakure yere ibitoki.

Imbuto ni ikintu cy'ingenzi, aho zifasha igogora ry'umubiri ndetse zigafasha no mu kuba ari ibiryo byiza kandi bishobora kukwinjiriza amafaranga mu gihe ubikoze nk'ubucuruzi, imbuto rero zafasha ibintu byinshi mu mubiri harimo kongera na vitamine.

Umurima w'urutoki urimo insina zitari nyinshi ndetse hahinzemo ibindi bintu, ukaba udatunganyijwe, bigaragara ko udateguwe ngo ube wahingwamo, bisaba kubanza kuwuhinga ndetse ugakorerwa neza kugira ngo uterwemo izindi mbuto.

Ikawa ni igihingwa ngandurabukungu, cyifashishwa mu kongera amafaranga igihugu cyinjiza mu gihe cyoherejwe cyane cyane hanze y'igihugu. Ikawa ni ikinyobwa gikunda kunywebwa n'abantu benshi, cyane cyane abantu bakunda ibinyobwa bidasembuye, kikaba ari ikinyobwa cyiza kandi cyifashishwa n'abantu benshi.

Ibigori bishobora gusarurwa bitaruma mu gihe bikeneye nko gutekwa cyangwa se nko kotswa, aho bitagombera ngo bibanze byume bihungurwe bijye gusheshwa, umuntu ashobora gukoresha ibyo bigori yenda akaba yabigurisha akabona amafaranga mu gihe atagombye gutegereza ngo byume.

Igihingwa cy'ibishyimbo gihinze ahantu ku misozi ndetse no hakurya hari ibindi bihingwa bitandukanye, bikaba bikorewe neza ndetse birimo gukura mu buryo bwiza.

Inanasi ni kimwe mu bihingwa bijya mu kiciro k'imbuto. Ikaba ari rumwe mu mbuto zikunzwe kandi ziryoha cyane. Inanasi zikunda guhingwa mu gace k'imisozi hari ubutaka buri mu bwoko bw'akabuye, zikaba zitanga amafaranga kuko zigurwa neza ku isoko.

Ibirayi ni bimwe mu bihingwa bikoreshwa nk'ibyo kurya, ibirayi ushobora kubiteka ubitogosheje cyangwa se ukabiteka ifiriti, ibirayi bigira isoko rinini kuko biribwa n'abantu benshi kandi birakunzwe cyane.

Umuntu urimo kureba ubuhinzi bwe bw'urutoki uko bumeze, ibitoki ni ibihingwa byifashishwa mu ngo bikoreshwa nk'ibyo kurya cyangwa se bikaba byakoreshwa mu kwenga umutobe ukoreshwa mu gukora inzoga.

Umurima uhinzemo imyaka urimo amabumye menshi usaba ifumbire ndetse n'ibindi bintu by'inyongeramusaruro kugira ngo ubashe kwera neza, cyane cyane iyo utabona n'imvura ihagije biba bisaba kugira ngo witabweho birushijeho.

Ikawa ni kimwe mu bihingwa bijyanwa hanze y'igihugu. Ikawa no mu Rwanda irakoreshwa ariko ntago abanyarwanda bayikoresha cyane kuko ntabwo abanyarwanda benshi banywa ikawa. Rero niyo mpamvu inyinshi zitwarwa hanze y'igihugu kugira ngo itunganwe yinjirize igihugu amadovize.

Ibinyomoro ni igihingwa gihingwa kugira ngo kiribwe. Kikaba ari imbuto zongera vitamine ndetse ikaba zongera n'amaraso cyanecyane zikaba ziribwa n'abana batoya. Ibinyomoro ni igihingwa kiza cyane kuko kigira amafaranga kandi kigira isoko igihe kinini cyane.

Akarima gatoya k'imboga gahinzemo amashu y'ubwoko bubiri, amwe maremare agira amababi menshi n'amwe magufiya aba yizinze, kakaba kari mu gipangu cy'amatafari ahiye.

Ubuhinzi bw'ibirayi busaba kubwitondera kuko indwara z'ibirayi iyo zije zirabyangiza cyane kandi ibirayi bisaba imvura ihagije kuko iyo izuba naryo ribaye ryinshi ribyangiza bigatuma hataboneka umusaruro uhagije.

Ubuhinzi bw'ibirayi ni bumwe mu buhinzi bugezweho muri iki gihe, bushobora gutanga amafaranga menshi kandi bugatanga n'ibyo kurya bikundwa n'abantu benshi. Ibirayi birera cyane ku buryo bishobora gukiza umuntu mu gihe abihinze bya kinyamwuga kandi akabyitaho mu buryo buhagije.

Ibitoki ni bimwe mu bihingwa bikunda guhingwa cyane mu Rwanda ndetse bikaba biribwa cyane, ibitoki bishobora gukoreshwa nk'ibiribwa cyangwa bigakoreshwa mu kwenga inzoga cyane cyane iyitwa urwagwa, rero ibitoki bifite isoko cyane kuko bikoreshwa mu bintu byinshi mu Rwanda.

Ibigori bihinze ku murongo, ni bitoya ntabwo biragera igihe cyo guheka, birashishe bisa neza cyane, bikaba bifite ibindi bintu bihinganye na byo bimeze nk'ibishyimbo.

Ubuhinzi bukozwe ku buso bunini, ni ubuhinzi bwiza kuko bugira inyungu nini ndetse bifasha no korohereza umuhinzi iyo arimo gusarura cyangwa se iyo ashaka kuhira cyangwa ashaka gutera umuti wica ibyonnyi, kuko bikorerwa hamwe ku buso bunini.

Amacupa abiri arimo imiti y'amatungo aho ifasha kongera vitamine mu matungo, iyi miti ikaba iterwa amatungo hakoreshejwe inshinge kugira ngo imiti ibashe kugera mu mibiri y'amatungo.

Ingurube ni inyamaswa zo mu rugo ariko abantu benshi ntago bazivugaho rumwe kuko hari abagendera ku myemerere yabo, bakavuga ko ingurube ari ikizira abandi nabo bakavuga ati ingurube zigira umwanda ntago njyewe nayitunga, ariko inyamaswa iyo ariyo yose irashobora gutunga ndetse ikagira umumaro.

Inkoko za kijyambere ni bumwe mu bworozi bugezweho kuko ari inkoko zitera amagi gusa zitaturaga. Kikaba aribyo bituma zigira umusaruro mwinshi kuko zitera buri munsi ubuzima bwazo hafi ya bwose. Ibyo ngibyo bikaba bifasha abazorora kubona amafaranga menshi avuye mu musaruro w'amagi.

Agakarito k'ubururu n'umweru kanditseho gakoresheje inyuguti ziri mu ibara ry'umweru, handitseho ijambo mirongo itanu na m na l, hakaba hashushanyijeho amatungo arimo inka ndetse n'ihene n'ayandi.

Inka ifite uburwayi bw'uruhu ishobora kudatanga umukamo uhagije cyangwa se bikaba byayiviramo n'izindi ngaruka zirimo nko kuba yananirwa kurisha cyangwa se ikaba yarwara, ikaba itatanga umukamo uhagije, ikaba ishobora no kuba yagera ku kigero cyo kuba ishobora no gupfa.

Itsinda ry'abantu barimo guhinga bakoresheje amasuka, umurima usanzwe uteyemo imyumbati ikiri mitoya, bakaba barimo kuyikorera kugira ngo ibashe gukura neza, bateramo n'indi myaka ishobora guhinganwa n'imyumbati.

Umuntu urimo gutera ibiti aho yabifashe byaramaze gukurwa mu bihoho byabyo, akabishyira mu butaka butunganije neza. Ibiti ni kimwe mu bintu by'ingenzi bifasha mu gufata umuyaga ndetse bigafasha no mu gihe umuntu abikeneye akeneye nko kubaka cyangwa se kubikoresha mu bundi buryo runaka.

Ahantu hakorerwa ubuhinzi bw'imboga zitandukanye, hakaba hari urujya n'uruza rw'abantu batandukanye, bari gukora n'imirimo itandukanye, bamwe barimo gusarura karoti, abandi barimo gusarura amashu, babirunda ahantu hamwe.

Ubutaka burimo gutunganywa kugira ngo hahingwemo imyaka, ubutaka busanzwe buhinzemo imyaka mikeya harimo amateke ndetse n'urutoki gusa rutari runini, rero harimo kugira ngo akurwemo ibyatsi ndetse hatunganywe hamere neza, kuba hahingwa.

Guhinga ni umurimo utunze abantu benshi, kubera ko ni bimwe mu bintu ushobora gukora udasabye igishoro kinini, mu gihe ufite ubutaka, rero ni umurimo ukorwa cyane kubera ko ari ikintu k'ingirakamaro ku Banyarwanda bose.

Abantu babiri bari mu murima barimo guhinga. Mu murima harimo ibiti by'imyumbati. Hakabamo ibiti bya gereveriya ndetse hirya y'aho hariyo ibindi myaka ihinze yo.

Umuntu urimo gutunganya umurima wavuyemo igihingwa cy'imyumbati, ari kuwutunganya kugira ngo abashe kuba yateramo izindi mbuto, ikindi gihembwe cy'ihinga kigeze, ibyo ngibyo bizafasha kugira ngo umusaruro uziyongere.

Umuntu uri mu murima arimo guhinga, yambaye ubusa hejuru, arimo gutunganya umurima kugira ngo awutegure uzaterwemo imbuto, igihe nikigera.

Abantu barimo gutunganya umurima, aho barimo gukuramo ibyatsi bidakenewe kugira ngo umurima bazawukore neza bawuhingemo imyaka bakeneye.

Ubuhinzi bw'ibigori ni ikintu gishobora kugukiza, kubera ko iyo uhinze neza ugakoresha ifumbire mvaruganda ndetse n'ifumbire y'imborera bivanze, ushobora kweza cyane ndetse bikakugirira umumaro kubera ko bibona isoko kandi ntago bipfa kwangirika.

Umusaruro w'ubuhinzi usaba kubikwa neza. Ukabikwa ahantu hataba ibyonnyi ndetse aho utazangirika, ngo wangizwe n'amazi cyangwa se izuba ryinshi mbere yuko ugezwa ku isoko.

Imifuka myinshi irimo umusaruro w'ibihingwa utegerejwe kujyanwa ku isoko, uyu musaruro basaba kugira ngo bawujyane ku isoko awukeneye bawugure ndetse n'abawubonye babone amafaranga yo kujya gukemuraza ibibazo cyangwa se gukoresha indi mishinga yabo.

Umusaruro w'ibirayi uri mu mifuka, utegereje kugira ngo ujyanwe ku isoko abawukeneye bawugure ndetse n'abawusaruye bawujyana ku isoko babone amafaranga bajyana mu rugo, bajye gukemuza ibibazo byabo bafite.

Umugore uhagaze imbere y'ibigori byinshi bimanitse ku biti. Afite ibigori bihunguye mu biganza bye ndetse arimo guseka. Akaba yambaye umwenda urimo amabara y'umuhondo, umukara ndetse n'umutuku.

Ubuhinzi bw'umuceri ni kimwe mu bintu bifasha igihugu gutera imbere, kuko byinjiza amafaranga ku bahinzi, ukinjiriza umusoro Leta ndetse n'abantu bakabona ibyo barya. Rero ni byiza kugira ngo witabweho neza mu gihe usarurwa, usarurirwe ku mahema ndetse wanikwe wume neza.

Abantu ndetse n'ibinyabiziga biri hamwe, aho ibinyabiziga birimo gushyirwamo umusaruro w'ubuhinzi wiganjemo ibitoki, kugira ngo bijyanwe ku isoko, ababikeneye babigure ndetse na banyirabyo babifite babone amafaranga, kugira ngo bayakoreshe ibindi bintu bakeneye.

Ibigori ni kimwe mu bihingwa bishobora guhingwa bikera kandi neza, ibigori bisaba kugira ngo bibone imvura ihagije ndetse n'igihe bimaze kwera ubireke bimanze byume neza mbere y'uko ubisarura, kugira ngo ubirinde kuba byakwangirikira aho wabibitse.

Igihingwa cy'umuceri ni kimwe mu bihingwa bitanga umusaruro bikaba byakwinjiza n'amafaranga menshi, umuceri ni kimwe mu bintu biribwa cyane kandi bikaba bidahenda cyane, umuceri wera cyane ugereranyije n'ibindi bihingwa bihingwa.

Ubuhinzi bw’ibigori ni kimwe mu bintu bikorwa n’abantu benshi, ndetse bukabateza imbere. Ibigori bisabwa kwitabwaho neza, bikabikwa ahantu hatagera imvura ndetse hatagira ubushyuhe bwinshi kugira bitamungwa, bisaba kubihungura ukoresheje uburyo bwiza butangiza intete zabyo.

Abantu barimo gutunganya ibigori, bimwe babihanika ibindi babikuraho ibishishwa kugira ngo babyanike bitazagira ikibazo cyo kuba byakwangirika mu gihe imvura iguye kandi ibi bituma byuma neza bifite ubuziranenge.

Itsinda ryabantu barimo gusarura ibigori, aho barimo kubikuraho ibishishwa kugira ngo bibikwe neza bitazangirika kuko ubushyuhe cyangwa imvura byinshi bishobora kwangiza ibigori.

Avoka ni igihingwa cyera cyane cyane mu Majyepfo mu Karere ka Huye, kikaba ari igihingwa gifatwa nk'imbuto ushobora gukoresha mu gihe uri kurya cyangwa se ukakirya cyonyine mbere cyangwa nyuma yo kurya ibyo kurya.

Inzu irimo imifuka y'ibintu ndetse n'abantu batatu, harimo abagabo babiri n'umugore umwe. Umugabo umwe yambaye imyenda y'icyatsi, undi mugore yambaye imyenda y'umutuku, bakaba barimo kureba muri iyi mifuka.

Isoko ry'imboga ryiganjemo inyanya, karoti, pavuro, imiteja ndetse n'intoryi, bikaba byazanywe n'abantu bashaka kubigurisha kugira ngo babone amafaranga, bikaba byabafasha kubona ibyo bakeneye bindi bitandukanye n'ibyo bazanye gucuruza.

Imyaka ihinzwe neza igasarurwa neza ndetse ikabona isoko icururizwaho, ifasha abahinzi kubona amafaranga abafasha kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi neza ndetse bagakomeza ubuhinzi bwabo mu buryo bwa kijyambere. Ibyo bizafasha igihugu gutera imbere ndetse no kwihaza mu biribwa.

Imbuto y'avoka ni imwe mu mbuto zikunzwe cyane kuko ushobora kuyirya yonyine cyangwa se ukayirya ku biryo cyangwa se ukayirya nyuma yo kurya. Avoka ziraryoha cyane cyane avoka zifite ibara ry'umukara. Rero ushaka kuyikoresha, wayigura ukayirya mu gihe imaze gushya kuko igira intungamubiri nyinshi cyane.

Ibirayi bihinzwe ku buso bunini, ndetse bikitabwaho neza bitererwa imiti igihe yica udukoko, bifasha kugira ngo byere neza bitange umusaruro uhagije, bifashe ba nyirabyo gukuramo inyungu ihagije, batunge ingo zabo neza bihaze ku biribwa, ndetse basagurire n'amasoko ku buryo buhoraho.

Gutema ibiti ntabwo ari ikintu cyiza, keretse iyo igiti gikuze kigeze igihe cyo kuba cyasarurwa, na bwo hakitabwa ku kureba niba icyo giti cyasimbujwe ikindi kugira ngo kitazabura ikindi kikigira mu mwanya mu gihe kizaba kimaze gutemwa.

Ubuhinzi buciriritse ni bwiza kuko bufasha abantu bo mu cyaro cyangwa se bahinga ku buryo butari ubwa kinyamwuga kugira ngo babone ibyo kurya, ibyongibyo bibafasha kugira ngo baticwa n'inzara ndetse babone n'ibyo basagurira amasoko, nyuma yo gutunga imiryango yabo.

Umurima uteyemo imyaka myinshi itandukanye, aho icyiganje ari amateke gusa hakaba harimo imboga za dodo, harimo insina ndetse harimo n'ibindi biti bisanzwe.

Ibiti ni kimwe mu bihingwa bifite umumaro cyane kuko bifasha kurinda isuri, bigatuma ahantu hagwa imvura ihagije kuko bifasha mu kurema imvura, ibiti na none bishobora guvangwa n'imyaka kuko hari ibiti bitangiza imyaka.

Kuvanga urutoki n'indi myaka ni bimwe mu bintu bituma urutoki rutera ngo ruse neza, kuko birwica bigatuma rutagira insina nini, cyangwa se ngo zere ibitoki binini nkuko biba bikenewe.

Ibiti binini birebire cyane by'inturusi, bifite utundi duti dutoya tubiri iruhande tumeze nk'ibyatsi, bikaba byegeranye cyane.

Voka ziteye mu dufuka. Voka ziterwa mu dufuka kugira ngo zibangurirwe, ndetse zitegurwe kugira ngo, zizajye guterwa mu murima cyangwa se mu butaka ahandi zateguriwe, zimaze gukomera, zifite imizi miremire izifasha kwishakira amazi.

Ibiti ni bimwe mu bintu bifasha cyane cyane iyo ukeneye kugira ibikoresho ukora bimwe na bimwe. Harimo n'ibikoresho by'ububaji byiganjemo intebe, ibitanda ndetse n'ibindi bintu harimo nk'imyuko, byose bishobora gukorwa mu biti bya gereveriya.

Indabyo ni kimwe mu mitako ituma ahantu hasa neza ndetse hakaba hagaragara neza. Indabyo zifashishwa mu gushyira ku mazu kugira ngo ase neza, akurure abantu, cyane cyane abantu bakunda ibintu by'ubwiza.

Insina zititaweho neza ngo zibagarirwe bituma zitagira umusaruro uhagije. Rero ni byiza kwita ku rutoki rwawe, ukarubagarira ukarushyiramo ifumbire ndetse, ukirinda kuvangamo indi myaka.

Ibiti ni ibimera bitanga umwuka ndetse bigafata umuyaga, mu mugihe wabaye mwinshi kugira ngo utaba watera impanuka nko gusenyuka kw'amazu cyangwa se ukangiza ibikorwa remezo, ibiti bishobora no gufasha mu kurema imvura ndetse no kuba byarinda isuri.

Ibiti bifasha kurinda imiyaga ndetse bikarinda n'ubutaka kugira ngo butagirwaho ingaruka n'isuri, bigafata amazi kugira ngo atangiza ubutaka. Ibiti na none bifasha mu gukurura imvura, bigatuma ahantu hagwa imvura ihagije.

Ubutaka buhinzeho insina ntoya zidafite imyano, ndetse hirya yaho hari ibiti by'inturusi birebire cyane biriyo.

Ubuhinzi bushobora gukorwa mu ngeri nyinshi zitandukanye. Ushobora guhinga indabyo, ugahinga imyaka yera, cyangwa se ugahinga ibiti bitanga indi musaruro. Rero indabyo ni kimwe mu bintu bishobora guhingwa, nubwo abantu benshi batarabigira, ngo babikore nk'umwuga.

Amashyamba ni kimwe mu bintu by'ingenzi kuko bifasha mu bintu byinshi, amashyamba ashobora gutanga ibiti byo kubazamo ibikoresho byo mu rugo, ibikoresho byo mu mashuri cyangwa se ibikoresho byo gukoresha mu ma ofisi.

Ishyamba rigizwe n'ibiti bitandukanye, aho ibyinshi ari ibiti bitoya. Ishyamba ni ikintu cy'ingenzi kuko rifasha mu gukora imvura ndetse rikaba ryakurwamo ibiti byo kubazamo imbaho zakoreshwa mu bintu bitandukanye harimo inzugi, amadirishya ndetse n'intebe.

Umurima urimo ibihingwa byinshi bitandukanye, harimo igihwagari, harimo ibiti bya avoka, harimo urutoki ndetse n'imigozi y'ibijumba, bikaba byose ari ibihingwa bifasha mu kubaka ndetse no gutunga urugo kuko bitanga ibyo kurya.

Indabyo ziri mu bwoko bw'ibiti na byo ni bimwe mu bihingwa abantu bahinga ariko batagamije kubisarura, ahubwo bagamije kurimbisha aho batuye ngo hase neza ndetse hamere neza, habe n'umwuka mwiza.

Ubuhinzi bw'imboga ziganjemo karoti aho zahinzwe mu duce dutoya tw'itaka ritunganyijwe neza rikarindwa neza hagati hakagenda harimo utuyira, ubuhinzi bufasha kongera ibiribwa ndetse bigahereza amafaranga ba nyiri kubukora.

Umuntu ufite pavuro icyenda mu ntoki ze, azifashe azishyize mu gatuza, azifatishije ibiganza bye, yambaye umwenda w'umupira ufitemo amabara y'umukara n'umweru.

Indabyo ni ibintu bituma ahantu hasa neza ndetse hakagira umuhumuro mwiza. Rero indabyo ziterwa cyanecyane mu busitani kugira ngo zitume abantu bakunda aho hantu, kandi babashe kuhatemberera bumve bamerewe neza.

Imbuto ni ikintu cy'ingenzi cyane kubera ko zikenerwa na buri muntu kugirango umubiri we ubashe gukora neza ndetse atarwaragurika. Rero mandeline ni kimwe mu bintu biribwa cyane ndetse bikagurwa cyane ku isoko. Niyo mpamvu zihingwa ndetse zikitabwaho cyane.

Imbuto nziza ni kimwe mu bifasha ubuhinzi gutera imbere, kuko iyo ufite imbuto nziza bituma n'umusaruro w'ibyo wahinze uba mwiza kandi ukaba mwinshi, ibyo rero bigatuma ubona isoko rinini ndetse n'amafaranga menshi, kugira ngo ukomeze wagure ubuhinzi bwawe.

Isoko ry'imbuto harimo imineke, harimo watermellon ndetse n'izindi mbuto, bigaragara ko zaje gucuruzwa kugira ngo abazizanye babone amafaranga ndetse n'abazishaka bazibone bajye kuzitungisha imiryango yabo.

Umurima urimo ibishyimbo bitarera neza, birimo gusarurwa. Ibishyimbo bisa neza, ndetse hari n'ishyamba ry'ibiti bya gereveriya biwukikije.

Indabo ni ibiti bihumura neza, bikaba byagira umumaro mu gukurura inyamaswa zituma habaho kubangurirana hagati y'ibimera. Indabo na none zifasha mu gutuma ahantu hagira umwuka mwiza ndetse hakanahumura neza.

Indabyo ziteye ku ruhande rw'umuhanda z'icyatsi. Indabyo ni kimwe mu bintu bituma ahantu hasa neza ndetse bigakurura abantu kuko biba bituma ahantu haba hameze neza cyane.

Isoko ry'imbuto ryiganjemo imineke ndetse n'avoka, aho abantu bamwe baba babizanye kugira ngo babicuruze, abandi baje kubigura kuko baba batabifite bafite amafaranga nabo bakabona ibyo bajya kurya n'imiryango yabo.

Amapera ni kimwe mu mbuto zihingwa ndetse zikanaribwa cyane, ni imbuto itanga vitamine ku mubiri ishobora kurinda indwara ndetse igatuma umubiri ugira ubuzima buzira umuze ndetse umuntu uyiriye akabasha gukura neza.

Imbuto ziganjemo ibinyomoro ndetse n'amatunda, bikaba ari imbuto zikunda gukoreshwa cyane cyane ku bana batoya kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza buzira umuze ndetse banakure neza bafite igihagararo cyiza, banasa neza.

Umubyeyi ndetse n'umwana we barimo gusarura imboga ku karima k'igikoni, imboga ziratekwa ukazirisha ibyo kurya arimo nk'ubugari cyangwa se ibijumba cyangwa se ukaba ushobora kuzigurisha ugakuramo amafaranga.

Icyapa kigaragaza amacumbi gishinze mu murima w'indabyo zitari nyinshi, indabyo ni zimwe mu bintu bikurura abantu bakaba babasha kuza kurara ahantu kuko babona hafite ubusitani bwiza.

Isoko ry'ibiribwa byiganjemo ibihaza, bamwe bita amadegede, hamwe n'ibijumba. Bikaba byazanywe mu isoko gucuruzwa kugira ngo abatabifite babigure, ndetse n'ababizanye babone amafaranga.

Ubucuruzi bw'imboga ziganjemo, imboga rwatsi, intoryi, ibihaza cyangwa se amadegede, karoti, inyanya ndetse n'ibitunguru, bikaba byazanywe ku isoko kugira ngo ababikeneye babigure babahereze amafaranga.

Umuhanda wubakishije amabuye uba ukomeye cyane kuko ntago upfa gusaza ako kanya, bitewe n'uko amabuye akomera kandi ntakintu cyapfa kuryangiza uko kibonye, ni byiza rero kubakisha ibintu bikomeye kuko bituma ibintu biramba.

Ibitunguru by'umweru ndetse n'ibitunguru by'umutuku. Ni bimwe mu bitunguru bikunze guhingwa mu Rwanda aho bikundwa cyane cyane gukoreshwa mu guteka ndetse n'ibindi bintu bimwe na bimwe aho bishobora kwifashishwa nk'umuti.

Ubuhinzi bwa avoka buba busaba guhitamo imbuto nziza ya avoka ndetse ukayihinga ahantu heza, aho izera ikera imbuto zihagije ku buryo nuyisarura uzakuramo umusaruro uhagije, wawujyana no ku isoko ukabona inyungu wifuzaga.

Umurima urimo amatunda menshi ahinze ku buso bunini. Umurima w'amatunda ni kimwe mu bintu bishobora gufasha umuntu wayahinze kwiteza imbere, kuko ashobora kwera akaguhereza umusaruro mwinshi kandi ubona isoko byoroshye.

Ibitunguru biri mu moko abiri, hari ibitunguru by'umweru bikunda gukoreshwa mu biribwa, hari n'ibindi bitunguru by'umutuku na byo bikoreshwa mu biribwa, ariko ibi bitunguru byose bishobora gukoreshwa nk'umuti.

Ubutaka bunini buriho ibiti bitoya n'ibindi byo hakurya yaho binini, ubu butaka bukaba buriho ibyatsi byumye ndetse ubutaka bukaba burimo amabuye menshi.

Umudamu urimo gufuherera umuti wica udukoko ku bihumyo, ibihumyo ni igihingwa kidakunze kugaragara ahantu henshi gusa cy'ingenzi, kuko kigirira umubiri umumaro munini cyane mu gukura ndetse no kubaho neza.

Imbuto ziganjemo, imiyembe, inanasi, ibinyomoro, amaronji, biri hamwe. Hari n'umuzani, ndetse, n'abantu bari aho ngaho.

Ubuhinzi bw'imboga ni kimwe mu bintu abantu bashishikarizwa kugira ngo babashe guhaza imiryango yabo mu bijyanye n'imboga, kuko imboga ni ingirakamaro mu mikurire y'abana batoya ndetse n'ababyeyi batwite bashishikarizwa kuzirya cyane.

Imboga rwatsi ni kimwe mu bihingwa bishishikariza abantu kubihinga cyane cyane mu mago yabo ku karima k'igikoni, kuko imboga ni ingiramumaro mu mirire ya buri munsi kuko zikenerwa n'umubiri cyane, kugira ngo ubashe kubaho neza wirinde indwara ndetse umuntu akure neza.

Umugore arimo guca amatunda, atoshye ameze neza kandi atarera neza, gusa asa n'urimo kureba ahitamo irisa neza ryeze.

Voka ziri mu mabafu abiri atandukanye. Ibafu imwe y'umutuku, indi bafu y'ubururu. Voka zifite igishishwa cy'icyatsi. Voka ni imbuto ushobora gukoresha mu gihe ushaka kuyirya ryonyine cyangwa se ukayishyira ku byo kurya, kugira ngo wongere apeti, zikaba zigira vitamine nyinshi.

Imboga ni kimwe mu bintu abantu bashishikarizwa kurya cyane, kuko zigira umumaro mwinshi harimo kureba neza, kongera vitamine ndetse n'ibindi. Amashu ni kimwe mu bihingwa bifatwa nk'imboga kuko bifasha mu bintu byinshi bitandukanye, ni yo mpamvu abantu benshi bagirwa inama yo kuyakoresha mu byo kurya.

Avoka ni rumwe mu mbuto nziza kandi zifasha umubiri mu kubona vitamine, ndetse n'amavuta ,zikaba zihingwa cyane cyane nk'ibiti kandi zikera akenshi neza mu ntara y'amagepfo y'u Rwanda, rero ni nziza cyane kuzikoresha ku ifunguro rya buri munsi.

Umuntu ari mu murima arimo gukorera umurima w'inyanya, zikiri ntoya zisasiye kandi neza. Zikikijwe n'amateke ndetse n'ibigori bikuze bitaregera igihe cyo kwera, bisa neza bikaba bizatanga umusaruro uhagije.

Tangawizi ziri mu ibafu y'umutuku, harimo n'akadeyi. Zateguwe kugira ngo zijyanwe ku isoko, zijye kugurishwa babone amafaranga.

Ikinyomoro gitangiye kuraba, gifite amababi y'icyatsi ndetse n'utundi tubabi two hejuru duhera tujya kubamo umutuku, kikaba kigaragara nk'igishishe, gitoshye, kimeze neza.

Amashu iyo ahinzwe neza, akitabwaho, agatererwa umuti wica udukoko igihe, agafuherwa cyangwa se agashyirwaho amazi mu gihe imvura itagwa ihagije ndetse agasasirwa, ashobora kwera neza kandi agatanga umusaruro mwinshi.

Ubuhinzi bw'amashu ni bumwe mu buhinzi bufite umumaro ku bantu benshi kuko ni ubwoko bw'imboga kandi imboga zikoreshwa n'abantu benshi cyane. Amashu atanga umusaruro kuko aragurwa cyane kandi ntago arushya cyane mu kuyahinga.

Umurima urimo ibihingwa by'icyatsi bisa n'urusenda ndetse n'amateke, uyu murima ukaba urimo ibyatsi hasi bisa n'isaso.

Ubuhinzi bw'inyanya buteye imbere urazishingirira kuko bituma inyanya zurira ibiti noneho zikaba zishobora gushora cyane zikera inyanya nyinshi cyane, ibyo ngibyo bituma umusaruro wiyongera ku rwego rwo hejuru.

Ubuhinzi bw'indabyo ni kimwe mu bintu bitanga amafaranga kandi menshi, bisaba kuzihinga neza warangiza ukazitwara ku masoko zikagurwa zikikwinjiriza amafaranga na we ukayakoresha mu bindi bintu ukenera bya buri munsi.

Umuntu urimo gutunganya imbuto ze yinajije, azikuraho ibyatsi kugira ngo zikure neza. Hirya ye hari amateke ndetse n'ibigori, akaba yambaye ingofero ndetse n'ikoti by'umutuku.

Umuntu urimo gusarura inyanya azisarurira mu gitebo kuko zimaze kwera zinahiye. Arimo kuzisarura kugira ngo azijyane ku isoko, abashe kuba yabona abaguzi bazikeneye na we bamuhe amafaranga.

Igiti kinini gifite amababi y'icyatsi ndetse hari n'amakoma akiri hejuru n'irindi ryumye rikiri mu mashami. Kikaba kigaye kiri hagati mu murima.

Ibinyomoro ni bimwe mu mbuto zikunzwe cyane kuko zongera byongera amaraso kandi bikaba biryoha. Ibinyomoro ubuhinzi bwabyo buteye imbere cyane kuko biragurwa cyane, kandi biba bifite isoko rihagije.

Ubutaka bwari udusozi duto duto tugiye duhinzeho ibiti byinshi by'ubwoko butandukanye. Hakaba hari n'agace gatoya gahinzemo imyaka. Ubutaka bufite amabuye menshi agiye aburiho.

Karoti ni kimwe mu bihingwa byifashishwa mu guteka imboga, karoti ziba zitukura ndetse zirahingwa zikera mu butaka hasi, iyo uzisaruye ziba ari umutuku, ziri mu buryo bw'ibijumba, ukaba wazitwara ku isoko ukazigurisha ukabona amafaranga.

Ibihingwa birimo imboga, arizo karoti, ndetse n'ibitera imbaraga, ari yo mateke. Bikaba bihinze hamwe, ku butaka bumwe buriho ibindi bintu, bikikije ku ruhande, harimo imiyenzi ndetse n'ibindi byatsi bisanzwe.

Ubuhinzi bukorewe hafi y'imigezi buba ari bwiza cyane, kubera ko byorohera abahinzi kuhira imyaka yabo. Iyo igihe cy'izuba kigeze bashobora kuvomerera imyaka, kugira ngo iticwa n'izuba, cyangwa se ngo ikibazo cy'umusaruro mukeya.

Umuntu urimo gufuherera imyaka akoresheje igihombo, gufuherera imyaka bifasha imyaka gukura neza mu gihe itabona imvura ihagije yo gutuma yera.

Imboga ni kimwe mu bihingwa bifasha abantu mu buzima bwa buri munsi, kuko bitanga vitamine ndetse bikarinda indwara z'umubiri. Imboga zisaba gusukirwa, zikabona amazi ahagije kuko niyo azifasha gukura neza, ntizigire ikibazo, cy'izuba cyangwa se ngo zibe zakuma.

Umuntu urimo gusukira akoresheje igihombo, kivana amazi mu mugezi. Ahantu ari gusukira hakaba ari nta myaka irimo, arimo gutegura ubutaka, kugira ngo buzahingwemo.

Gusukira imyaka ni bimwe mu bintu bifasha imyaka gukura neza ndetse ikera igatanga umusaruro mwinshi uhagije, cyane cyane bikorwa mu gihe cy'izuba cyangwa se mu gihe imvura idahagije.

Imyaka iyo itabonye amazi ahagije irangirika, niyo mpamvu ari ngombwa kugira ngo mu gihe imvura idahagije uvomerere imyaka ibone amazi ahagije, cyane cyane imboga zikenera amazi menshi kugira ngo zikure kandi zikure neza.

Ubuhinzi bw'ibigori ku buso bunini buri ahantu harambuye bigaragara ko ari mu gishanga bwifashisha imashini zikoresha ikoranabuhanga ryo hejuru ryo gusukera, bikaba bigaragara ko ari ubuhinzi bukorerwa ahantu hatari amazi cyangwa se imvura ihagije.

Ubutaka bunini bwisanzuye, aho agasozi kamwe kariho amaterase y'indinganire, hakaba hakikijwe n'utundi dusozi turiho ibiti byinshi bitandukanye.

Umurima uri ahantu heza hegereye umuhanda ni kimwe mu bintu bifasha, kugeza umusaruro w'ubuhinzi ku isoko mu gihe kitarambiranye, kandi bikagerayo bitarangirika cyangwa se ngo bigirire ibindi bibazo mu nzira.

Imirima ihinzemo imyaka itandukanye, harimo ibigori, harimo ibishyimbo, ndetse n'iyindi. Hakaba hari amazi aciye aho ngaho hagati akagezi gatoya cyane.

Ubutaka burambuye ni kimwe mu bintu bifasha ubuhinzi bukoresheje ikoranabuhanga kugira ngo bwihute, kubera ko imashini zikoreshwa mu guhinga zisaba ahantu haba harambuye hatarimo imisozi ndetse hatarimo n'amabuye manini, ibyo bigatuma ubuhinzi bwihuta mu gihe bukoreshejwe ikoranabuhanga.

Guhinga ku materasi y'indinganire, ni ikintu abantu bashishikarizwa. Cyane cyane, mu duce tw'imisozi ihanamye. Kubera ko bituma imirima itagira isuri. Ndetse n'abantu bakeza ku buryo bwisumbuyeho. Rero ni byiza kubikoresha kubera ko bigira umumaro munini cyane.

Umusozi uciyeho amaterasi y'indinganire, ukaba ugizwe n'ibiti byiganje ndetse n'amazu agiye atatanye, ari mu mpande zitandukanye.

Amaterasi y'indinganire ku butaka buhanamye ni kimwe mu bifasha kurwanya isuri iterwa n'amazi aturuka hejuru mu misozi, ibyo bikaba bifasha no kongera umusaruro ku butaka bwahingwagaho.

Gutegura ubutaka neza ni kimwe mu bikorwa bifasha kugira ngo umusaruro w'ubuhinzi wiyongere ku kigero gishimishije, bituma ibihingwa wahinze bitagira ikirare kinshi ndetse bigafasha kwera neza ku musaruro wawe.

Ubutaka buhinzeho imyaka mitoya yabuze imvura ku buryo itarimo gukura neza, hakaba harimo n'igihingwa k'imyumbati kikiri gitoya kitarakura.

Abantu benshi bari mu murima barimo kuwutunganya, umurima mbere yuko uterwamo imyaka, urabanza ugatunganywa ukagirwa neza, niba ari nahashyirwa ifumbire bakaza bakayishyiramo kugira ngo igihe kihinga nikigera umurima uzabe umeze neza.

Guhinga ku materase ni kimwe mu bintu bifasha kugabanya isuri ku misozi kandi bigatuma umwanya wo guhingaho wiyongera ndetse, ibyo bituma n'umusaruro w'ubuhinzi wiyongera, cyane cyane mu duce tw'imisozi miremire, ahatari ubutaka burambuye.

Amazi atemba ni kimwe mu bintu bifasha abahinzi kugira umusaruro uhagije kubera ko iyo bigeze igihe cy'impeshyi, bashobora kuyakoresha mu kugira ngo buhire imyaka yabo ibone amazi ahagije bityo bigatuma yera ku rwego rushimishije.

Umuhanda w'igitaka wangiritse, ugaragara ko udafasha abahinzi kugeza ibihingwa byabo ku masoko kuko imodoka ku kugendamo bishobora kutayorohera, rero bikaba byatuma umusaruro w'abahinzi utagera ku masoko ku gihe.

Ubutaka buhinzeho ibiti bitandukanye, harimo inturusi ndetse n'ibindi biti by'ubundi bwoko na geriveriya hubatseho amazu atari menshi cyane ariko nta myaka ihinzwemo.

Ubutaka burambuye ni bumwe mu butaka bwiza ushobora gukoresha mu buhinzi, kuko biba byoroshye gukoresha imashini ihinga, cyangwa se no kuhira ku butaka burambuye. Ibyo ngibyo bikaba byafasha ubuhinzi bugezweho kuko bukoresha ikoranabuhanga kandi riba risaba ahantu harambuye.

Ibishanga ni bimwe mu bice bifasha ubuhinzi gutera imbere mu buryo bwihuse kuko biba bifite ubutaka bwiza kandi bwera. Rero ibyo ngibyo bituma ikintu cyose uhahinze kibasha kwera, kikera neza kigatanga n'umusaruro uhagije.

Ubutaka bwiza burambuye butariho imisozi, butarimo amabuye ndetse butarimo n'ibiti byinshi, bushobora kwifashishwa mu guhinga imyaka ndetse bukifashishwa no kuba bwakorerwaho iyindi mirimo ibyara inyungu.

Ubutaka bwisanzuye budafite ibimera byinshi bubiriho, nta biti bubiriho hariho ibyatsi gusa, ubutaka bushobora gukoreshwa mu guhinga, bushobora gukoreshwa mu guturwaho cyangwa se bugakoreshwa iyindi mirimo yabyara inyungu kuko ni bwiza.

Ubutaka buhinzeho, imyaka ikiri mitoya, ku buso bunini, kandi mu gace k'imisozi. Ubutaka burasasiye neza, ku buryo bufasha imyaka gukura. Ikera neza igatanga umusaruro uhagije, ku buryo abahinze bifuza.

Ingurube ni inyamaswa ikunda kuribwa n'abantu benshi, aho bakunda inyama yayo cyane cyane iyo zikaranze, ingurube hari abanga kuzirya bavuga ko zigira umwanda ndetse n'abanga kuzirya kubera imyizerere yabo.

Ihene zirimo kurishiriza mu kiraro cyazo, ni uburyo bwiza bwo korora kuko kuragira ku gasozi bituma inyamaswa zishobora gufata indwara ziturutse ahantu utazi, bikaba byazigiraho ingaruka, mu mikurire ndetse n'imibereho yazo.

Umuntu woroye inkoko nyinshi aho yicaye imbere yazo ziri inyuma mu nzu, inkoko ni inyamaswa zororerwa mu rugo, zikaba zitera amagi ashobora kugurishwa cyangwa se na zo ubwazo ukaba wazigurisha cyangwa se zikavamo ibyo kurya harimo nk'inyama.

Ingurube ni itungo ryo mu rugo rigira akamaro kenshi, rikaba rishobora gutanga ifumbire, rishobora kugurishwa cyangwa se igakurwamo inyama. Ingurube irya ibyo kurya byinshi kandi bitagoye kuboneka.

Inkoko zirimo kugaburirwa zikaba zirimo kurya ibyo kurya zahawe, inkoko ni amatungo yo mu rugo ashobora gutungwa kugira ngo atange umusaruro w'amagi cyangwa uw'inyama, inkoko zishobora gukoreshwa nk'ibyo kurya, cyangwa se zikakoreshwa nk'inkomoko y'amafaranga.

Inka nyinshi zitandukanye ziri ahantu habugenewe hubakiwe kugira ngo zijye zihatererwa umuti wica udukoko dutera indwara ziganjemo uburondwe. Uyu muti ukaba ari mwiza cyane kuko utuma izi inka zitabasha gufatwa n'izo ndwara zishobora kuzigiraho ingaruka zitari nziza.

Ihene n'ingurube ni amatungo magufiya yo mu rugo, yororwa kugira ngo habonwe amafaranga ndetse n'ifumbire, bishobora kugurishwa hagakurwamo amafaranga, cyangwa se ifumbire bikuyemo ikagera igakoreshwa mu murima kugira ngo yongere umusaruro w'imyaka.

Ingurube ni itungo rigira amatwi maremare ndetse n'ubwoya bwinshi ku mubiri, rikaba rigira umunwa muremure ndetse n'umurizo mutoya, rikaba ari itungo rishobora kororoka cyane mu gihe gitoya kuko ribyara ibyana byinshi cyane.

Abantu barimo umugore, umugabo ndetse n'umwana wabo bari kugaburira amatungo, arizo nka ziri mu kiraro aho ziba, hafi aho hakaba hari inkoko zirimo kuhatorera. Inka ni inyamaswa zo mu rugo zirya ubwatsi harimo: urubingo ndetse n'ibindi byatsi bitandukanye.

Ihene ni imwe mu nyamaswa ziribwa, aho abantu benshi bakunda kuyikoresha nk'inyama, cyane cyane burusheti. Hakaba hari abizera ko ari nayo nyama iryoha kurusha izindi zose. Ihene zikoreshwa kuko ushobora kuyiteka mu biryo bisanzwe, cyangwa se ukaba wayigurisha ugakuramo amafaranga.

Inka ni itungo ryo mu rugo rishyirwa mu cyiciro cy'amatungo maremare. Inka ikaba itanga umusaruro cyane cyane uw'amata, uw'ifumbire, ndetse ikaba ishobora no gukurwamo amafaranga mu gihe igurishijwe, cyangwa se igatanga inyama mu gihe ibazwe nka kimwe mu byo kurya bikunzwe cyane kuri iyi si.

Itungo ririmo rirarira mu muvure ryubakiwe, aho ririra mu rugo rwaryo bitabaye ngombwa ngo rivanywe mu rugo rijyanwe kurisha mu rwuri.

Inyana y'inzungu, ifite amabara y'umweru n'umukara. Ikaba ifite umurunga mu ijosi uyiziritse, ikaba iri ahantu mu nzu aho iba.

Mu bworozi bugezweho, bashishikariza abantu korora inka za kijyambere, bakazororera mu biraro, ndetse bakorora inka zitanga umukamo mwinshi, kuko ari wo utanga umusaruro kurusha korora inka nyinshi, ariko zidatanga umusaruro.

Ihene ni amatungo magufi yo mu rugo, ashobora gutanga umusaruro mwinshi cyane mu gihe yitaweho neza, ihene ishobora gutanga ifumbire, ishobora gutanga inyama cyangwa se zikagurishwa zikaba zakurwamo amafaranga yo kwifashisha mu rugo mu buzima bwa buri munsi.

Ubucuruzi bw'inka ni kimwe mu bintu bidakorwa cyane n'abantu kuko zirahenda kandi ntago zikunda kuboneka cyane cyane kumasoko, kuko abantu bacuruza inka ntago baba ari benshi cyane rero bisaba kugira ngo ube ufite igishoro kinini.

Amatungo magufiya yororerwa mu rugo ni amatungo y'ingenzi cyane kuko afasha kongera umusaruro w'urugo binyuze mu gutanga ifumbire ishyirwa mu mirima, ifumbire y'imborera ni imwe mu bintu bifasha kongera umusaruro kuko iyo ivanzwe n'imvaruganda bituma umusaruro wiyongera cyane.

Ihene ni itungo rigufiya ryo mu rugo rikunda gutungwa n'ingo nyinshi bidasabye ubushobozi bwinshi, kuko ridahenda cyane kandi ridasaba igishoro kinini kugira ngo uribonere ibyokurya cyangwa se imiti yo kurivura.

Inkoko zirimo gutora ibyo kurya aho bazigaburiye. Inkoko za kizungu ni inkoko zitajya zituraga, zo icyo zikora zitera amagi gusa ba nyirazo bakagurisha amagi bakaba ari wo musaruro babona, cyangwa se bakazigurisha zikabagwa zigatekwamo inyama.

Inkoko ni kimwe mu matungo yo mu rugo afasha cyane cyane mu kongera imirire myiza yo mu rugo ndetse no kwinjiza amafaranga mu rugo. Inkoko zitanga amagi ndetse n'ifumbire; amagi akaba akoreshwa nk'ibyo kurya cyangwa se akaba yagurishwa agakurwamo amafaranga.

Inka ifite amabara y'umweru iri mu kiraro, cyubakishije ibiti, inyuma hari igikuta. Iyi nka ifite icebe nk'iyonsa, hirya yayo, hari indi nka nayo bisa.

Ubworozi bw'inkoko bwa kijyambere ni bimwe mu bintu bigezweho kuko butanga umusaruro mwinshi kandi mwiza, inkoko za kijyambere ziba zifite amoko menshi, gusa ni ingenzi guhitamo ubwoko bwiza kuko bituma ugira n'umusaruro munini.

Ingurube ni imwe mu nyamaswa zitungwa mu ngo z'abantu zikaba zakwifashishwa mu gukusanya ifumbire ndetse zikagurishwa mu gihe akeneye amafaranga. Ingurube zigira amabere menshi ndetse zikaba ari inyamaswa zikura zikabyibuha cyane.

Inka ebyiri ziri mu kiraro cyubakishije ibiti, zirimo kurisha ubwatsi zahawe. Inka ni amatungo maremare yo mu rugo agira umumaro cyane.

Ubworozi bw'ingurube, ni bimwe mu bintu biteza imbere abantu benshi kuko bibyara inyungu nini mu gihe gitoya, kuko ingurube imwe ishobora kubyara abana benshi kandi ikababyarira icyarimwe bidatwaye igihe kinini.

Ubworozi bw'inka z'inzungu ni bwiza cyane kuko ni zo nka zitanga umusaruro cyane cyane uw'amata kuko zitanga umukamo mwinshi kandi nta nubwo zikunda guhura n'ibibazo byo kurwaragurika kuko buba ari ubwoko bwiza bw'inka. Rero byaba byiza kubukoresha cyane cyane.

Kwita ku ngurube ni kimwe mu bintu bituma zibasha gutanga umusaruro ndetse zigakura neza mu gihe zitaweho neza. Ibyo bituma zitanga umusaruro uhagije.

Ubworozi bw'amatungo magufi n'amaremare, ni kimwe mu bintu bitunze imiryango myinshi, aho babikuraho amaramuko ndetse n'amarariro, bakabikuramo n'amafaranga bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Amatungo arimo kurisha hanze, aho atari mu rugo rwayo abamo. Ayo matungo ni ingurube zirimo kurisha ibyatsi aho ari ziri mu rwuri.

Amatungo yo mu rugo arimo ararya ubwatsi yahawe bugizwe n'ibigorigori. Akaba yubakiwe hakoreshejwe ibiti bihagaritse. Kandi bifite ibindi biri mu mpande.

Inka ntoya ifite ibara rijya kuba umukara no ku munwa hariho ibara ry'umweru, izirikishije umurunga, ikazirika ijya ku giti, ikaba iri mu kiraro gisakaje ibyatsi.

Inka z'inzungu ni amwe mu matungo abantu bashishikarizwa korora kuko zitanga umusaruro uhagije mu buryo bw'amata kandi zikaba ari icyororo cyiza cyororoka vuba kandi neza.

Ihene ntoya igeze mu gihe cyo kubangurirwa ni umusheru, ihene zigira akamaro cyane kuko ni itungo ryo mu rugo ushobora kwifashisha mu gihe wagize nk'ikibazo ukaba warigurisha ukabona amafaranga yo gukemura icyo kibazo.

Ingurube ni inyamaswa isaba kwitabwaho cyane, kuko ikenera kurya ibyo kurya byinshi kugira ikure neza, iyo ititaweho ngo ihabwe ibyo kurya bihagije iragwingira ntibashe gukura nk'uko yagakuze ngo itange umusaruro yari yitezweho.

Ingurube ni itungo rigufi, rikunda kororwa cyane cyane mu ngo, aho abaritunze bashobora kuzikoresha, mu gihe bagize nk'ikibazo bakaba bayigurisha bakabona amafaranga yo kugikemura. Cyangwa se ikabafasha, mu buryo bw'ubuhinzi aho ishobora kubabyarira imborera.

Ingurube ni rimwe mu matungo agezweho kuko ritanga amafaranga menshi kandi byororoka vuba cyane.

Abantu batatu barimo umugore umwe, umugabo umwe ndetse n'umwana umwe, bakaba barimo kugaburira amatungo, harimo inka ebyiri ndetse n'ihene imwe ubwatsi bayazaniye.

Urujya n'uruza rw'abantu ruri hamwe rwazanye amatungo mu isoko, higanjemo inka z'inzungu ndetse n'izisanzwe zitari inzungu.

Ubworozi bw'inkoko ni ikintu kigezweho kuko ntago zisaba ibyo kurya byinshi kandi nta nubwo zisaba inyubako ihenze cyane, inkoko zishobora gukoreshwa nk'ibyo kurya cyangwa se zigatera amagi na yo ubwayo yifashishwa mu kongera intungamubiri.

Amatungo nayo akenera abavuzi kuko aba agira indwara zitandukanye ndetse aba akeneye no kurebwa agasuzumwa mu gihe atameze neza, cyanecyane nk'iyo yananiwe kurya cyangwa se ubona hari ikintu kidasanzwe kiri kuyagaragaraho, bisaba ko uhamagara umukozi ubishinzwe kugira ngo akurebere ikibazo itungo ryawe rifite.

Ihene ni itungo rishobora gutungwa n'umuntu uwo ari we wese. Aho n'umuryango uciriritse ushobora kuritunga kandi bitawugoye. Kuko isaba amafaranga makeya kuba wayigura kandi ntanubwo isaba ubushobozi bwinshi kuyitunga kuko idasaba ahantu hanini ho kuba wayitungira cyangwa se ngo irishe cyangwa se ngo irare.

Inka ni itungo rirerire ryo mu rugo, ritanga amata, ifumbire, igafasha guteza imbere umuryango mu buryo bw'amafaranga ndetse n'uburyo bwo kubona ibyo kurya, harimo amata, harimo inyama ndetse ifasha n'umuryango kubaho neza.

Ihene ni amatungo yo mu rugo magufi, afasha mu guteza imbere ubukungu bw'urugo cyane cyane iyo yitaweho neza akagaburirwa neza, akaba ahantu heza, bifasha gutanga ifumbire ndetse n'amafaranga ashobora gufasha urugo mu kwiteza imbere ndetse ikaba yanavamo ibyo kurya n'ibindi umuryango ukenera.

Inka ni bimwe mu matungo ya kera, yakoreshwaga mu gusaba ndetse no mu gukwa, aho itangwamo inkwano, ndetse ikaba ishobora kwifashishwa no mu bindi birori bitandukanye, igihe umuntu yagabiye undi, cyangwa se ashaka ku mugira inshuti magara.

Amatunda ni kimwe mu bihingwa bihingwa kugira ngo biribwe, ni imbuto zishobora kongera intungamubiri harimo vitamine ndetse bikaba byizerwa ko zongera n'amaraso mu mubiri.

Igihingwa cy'ibijumba ni kimwe mu bihingwa ngandurarugo gihingwa cyane cyane mu ngo zo mu byaro, bakaba babihinga kugira ngo babirye atari ibyo kugurisha cyane cyane, icyo gihingwa kikaba ari cyiza cyane kuko gitera imbaraga.

Amatunda ni amwe mu mbuto zikunze kuboneka cyane ku isoko, aho yongera intungamubiri harimo vitamine zikenerwa kugira ngo umuntu abe yagira ubuzima bwiza.

Itsinda ry'abantu batandukanye, barimo abakobwa ndetse n'abasore, barimo gutunganya udushashi turimo itaka two kushyiramo imbuto kugira ngo zimanze zimere, mbere yuko zijya guterwa ahantu zagenwe kuba zizaterwa.

Ibigori mu buryo bwiza bwo kubisarura ni ukubihanika ku biti hejuru kugira ngo bidakora ku butaka bikaba byakangirika, bigomba kumanikwa ahantu hatari imvura kuko imvura na yo irabyangiza.

Ubuhinzi bw'urusenda ku buso bunini, rumaze kugera igihe cyo kuraba kandi rusasiye neza ku buryo bigaragara ku buryo bizatanga umusaruro.

Ubuhinzi bw'imboga ni kimwe mu bintu bifitiye umumaro rubanda nyamwinshi, kuko ababihinga babona amafaranga ndetse bakabona n'ibyo barya mu mago yabo, ndetse bakagemurira n'amasoko kugira ngo n'abandi batabashije kubihinga babone ibyo kurya.

Ibiti bitoya biteye hasi by'icyatsi. Hejuru bikaba bitwikirije ikindi kintu cy'umukara aho gifashe ku biti kugira ngo kibirinde izuba.

Ubuhinzi bw'ibiti, habe ibitanga imbuto cyangwa ibidatanga imbuto, ni bumwe mu bintu bikorwa bibanje kwitonderwa cyane, kuko bibanza kwinazwa mu gihoho gifite itaka mo imbere, kugira ngo kijye kibona uko gisukirwa byoroshye, kizakure gifite imbaraga n'imizi miremire.

Kugira ngo utere ibiti bisaba kubanza kubishyira muri pepinyeri kugira ngo bimanze bifate imbaraga, bikure ndetse bishinge imizi ku buryo n'ubishyira mu butaka burambuye bizabasha kwikururira amazi hasi mu butaka, bityo ntibihite byuma.

Guhereza inka imiti ni ibintu bisaba ubumenyi, ukaba warabihuguwe cyangwa se warabyigiye mu ishuri, kandi bisaba kuba uzi indwara irwaye, ndetse uzi n'ingano y'umuti ugomba kuwuhereza ku buryo umuti uwuhereza igomba kuyikiza.

Abantu barimo gukama inka barimo gukama bashaka amata. Amata ni ikinyobwa cyiza gikomoka kunka gishobora gukoreshwa mugihe umuntu akeneye icyo kunywa cyangwa se mugihe umuntu afite ikibazo akeneye intungamubiri.

Kuvura inka bisaba ubuhanga kuko bisaba umuntu wabyigiye ndetse w'impuguke, akaba abifitemo ubumenyi uko agomba kuyifata, uko igomba guterwa umuti n'uwo igomba guhabwa icyo gihe bifasha kugira ngo inka zitagira uburwayi.

Kwita ku nka ni kimwe mubintu by'ingenzi kuko inka ifite umumaro munini cyane inka ni rimwe mu itungo rikunda gutungwa n'ingo nyinshi mu Rwanda kuko n'igihugu ubwacyo gishishikariza abantu gutunga inka kugeza n'aho igihugu cyashyizeho gahunda ya girinka munyarwanda aho buri munyarwanda ahabwa inka kugira ngo abe ayitunze iwe.

Inka yabyaye ifite inyana yayo hafi aho ndetse igifite umuziha, ifite icebe rinini ndetse isa neza cyane kuko irimo kurisha impande yayo hari akana kayo yabyaye. Iibyo ngibyo ni byiza cyane kuko biba byongereye kororoka kwayo.

Umuntu uri mu kiraro cy'inka, aho harimo inka ifite ibara ry'umukara n'iry'umweru, ikaba iri mu kiraro cyubakishije ibiti, bimwe bishinze bihagaze ibindi bibitambitseho.

Ubuvuzi bw'amatungo ni kimwe mu bintu bigomba kwitabwaho kuko inyamaswa iyo itabonye imiti mu gihe, ishobora kugabanya umusaruro yatangaga cyangwa se bikaba byayigiraho n'ingaruka ku buzima bwayo harimo no kuba ishobora gupfa.

Inyoni ifite amabara atandukanye arimo umutuku, ubururu ndetse n'irindi bara rijya kuba umukara, ikaba ifite umunwa muremure usongoye, inyoni ni kimwe mu bintu bikurura ba mukerarugendo bakitanga amafaranga akaba yakwifashishwa mu mirimo isanzwe y'igihugu.

Impongo ni inyamaswa zo mu ishyamba zijya kumera nk'ihene ariko zo zikaba zifite amahembe manini, ni zimwe mu nyamaswa z'indyabyatsi aho zo zirira ibyatsi gusa zitarya inyama, impongu ziraribwa.

Inyoni ihagaze ku ishami, ifite umunwa muremure w'umutuku, amaso y'umukara, umutwe ujya kuba umutuku, ndetse n'amababa y'umukara, amaguru yayo na yo ni umutuku.

Inkima ihagaze ku giti, inkima ni inyamaswa iba mu ishyamba, ikaba ibarizwa mu nyamaswa z'inyamabere, ikaba igira umurizo muremure, iri mu bikoko bikurura abantu bashaka kubireba bitewe n'uburyo iba imezemo.

Inyoni ni inyamaswa zimwe zikurura ba mukerarugendo ndetse zikaba zanafasha mu kubangurira imyaka zikura inanga zimwe ku gihingwa kimwe zizijyana ku kindi, ndetse zikaba ari n'inyamaswa nziza kuko no kuzireba, urazireba ukumva urishimye.

Abantu bari ku kiraro barimo kugenda, gifite inzitiramibu ku ruhande cyangwa se imigozi bafataho kugira ngo bataza kugira ikibazo cyo kuba bakora impanuka bakagwa, iki kiraro kiri hejuru mu ishyamba abantu bakigendaho baba baje gusura iri shyamba.

Inzovu ni yo nyamaswa y'inyamabere nini iba ku butaka, ikaba ishobora kugira ibiro byinshi cyane birenga ibihumbi bibiri, ndetse ikaba ibyara ikanonsa ibyana byayo; inzovu ziba mu ishyamba kandi ni inyamaswa zizwiho kugira ubwonko bwibuka cyane.

Ibisiga bibiri. Kimwe gifite ibara ry'umweru inyuma y'umutwe, ahandi hose ni umukara. Ikindi na cyo ni umukara, nta rindi bara rigaragara. Bikaba biri ahantu mu duti dutoya.

Inyoni ni inyamaswa zitaba mu rugo ariko zikunda kuboneka ahantu henshi. Inyoni zifasha mu gukurura ba mukerarugendo, ndetse zigafasha no mu kubangurira imyaka. Inyoni ziri mu moko menshi atandukanye.

Udusumbashyamba ni inyamaswa zo mu ishyamba zikurura ba mukerarugendo, izi nyamaswa zirya ibyatsi, ni ukuvuga ngo zitungwa no kurya ubwatsi bwo mu ishyamba cyane cyane, izi nyamaswa zizwi muri zimwe zikunzwe cyane ndetse zikaba ari na zo nyamaswa ndende cyane.

Inyoni itatse amabara y'icyatsi, umutuku ndetse n'umukara iri mu giti, inyoni ni kimwe mu nyamaswa zikurura ba mukerarugendo muri parike z'u Rwanda, zikaba zituma tubona amafaranga y'amadovize adufasha kwiteza imbere.

Umutubu ufite amaso manini ndetse n'ibara rijya kuba ikigina, ukaba uri ku giti kijya kuba icyatsi, ukaba usa naho wenda gusimbuka.

Ikiraro gikozwe mudutimba kiri hejuru yishyamba, hakaba hariho umuntu uri kukigendaho, munsi yacyo harimo ibiti byinshi cyane birebire kandi byicyatsi.

Irembo rinini rikozwe n'ibyuma, handitseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umuhondo, hakaba hari ibiti byinshi bizengurutse aho ngaho ndetse iryo rembo umuhanda uricamo ukaba ari kaburimbo.

Ingagi ni imwe mu nyamaswa zikurura abakerarugendo benshi baba baturutse hanze y'igihugu, kugira ngo baze bihere ijisho ibyiza bitatse igihugu, aho abakerarugendo bazana amafaranga ndetse bakagira ibikorwa bakorera mu gihugu byinjiriza igihugu amafaranga.

Igitera ni imwe mu nyamaswa zo mu ishyamba, ziteye nk'abantu ndetse zifite ubwenge bwinshi hafi kungana n'ubw'abantu, kikaba gishobora kugenda ndetse gikoresheje amaguru n'amaboko yacyo, kikaba gifite ubwoya bwinshi ku mubiri wacyo ndetse n'umurizo.

Abantu barimo kugenda ku kiraro cyubatse hejuru y'ishyamba, kikaba gifite udutimba tugikikije ku ruhande turinda abantu kuba bagwa hasi, iki kiraro gikoreshwa na ba mukerarugendo baba bari gutembera muri iri shyamba kugira ngo barebe inyamaswa ndetse n'ubwiza bw'iri shyamba.

Amashyamba ni kimwe mu bintu bifasha Igihugu cyane mu kongera ingano y'imvura igwa mu gace iryo shyamba ririmo kuko rifasha mu kurema imvura, ishyamba na none rifasha mu kubika cyangwa se kuba ubuturo bw'inyamaswa, harimo nk'ibitera, inkende ndetse n'izindi nyamaswa zitandukanye.

Inzuzi ndetse n'amashyamba ni bimwe mu bintu bifasha mu buhinzi, kuko bishobora gutanga amazi akoreshwa mu gusukira, cyangwa se amashyamba agafasha mu gukurura imvura, ibyo ngibyo bituma ubuhinzi butera imbere, kuko busaba amazi n'imvura kugira ngo imyaka yere neza.

Inyamaswa ntoya, harimo nk'imitubu, ishobora kugira ingaruka ku buhinzi kuko bishobora kona imyaka. Bigatuma umusaruro ugabanyuka. Ushobora kwangiza imyaka mu gihe iri mu murima, yarasaruwe, cyangwa se imbuto, mu gihe irimo gutegurwa gihingwe.

Inyamaswa zo mu ishyamba, zifasha gukurura mukerarugendo ndetse bagatanga amadovize afasha igihugu mu kwiteza imbere, imparage ni zimwe mu nyamaswa zo mu ishyamba, zikurura ba mukerarugendo zikaba ari inyamaswa zirisha ibyatsi.

Inzovu ni imwe mu nyamaswa nini cyane ziba kuri isi, zikaba zikunda kuba mu mashyamba, ndetse zikaba ari inyamaswa z'inyamahoro, aho zidapfa kwiyenza ku bantu cyangwa ku zindi nyamaswa, bikaba bivugwa ko ari na zo nyamaswa muri zimwe zigira ubwonko bwibuka cyane.

Ikinyogote ni inyamaswa yo mu ishyamba kigira amahwa ku mugongo wacyo, iyo kirimo gukora ubwirinzi gikoresha ayo mahwa kugira ngo kirinde izindi nyamaswa ziba zishaka kugihohotera cyangwa se kuba zakirya.

Igisiga cy'umukara gifite ibara ry'umweru kitwa igikona, kikaba kiri mu bwatsi gifite akantu mu kanwa k'umweru, kagaragara ko ari ikintu cyari kirimo kurya.

Inyamaswa zo mu ishyamba ni bimwe mu bikoko bifite umumaro kuko bishobora gukoreshwa mu bintu byinshi, harimo kuba byasurwa n'abanyamahanga bagatanga amafaranga afasha leta mu kugira ibikorwa ikora harimo nko kubaka imihanda, amashuri ndetse n'amavuriro.